Umukecuru arimo aravomerera ibigori ndetse anabitera umuti wica udukoko turimo nkongwa izwi cyane ko yangiza ibigori, ari kubitera kugira ngo bibashe gutanga umusaruro uri hejuru ugereranije n'ibitatewe uyu muti.

Umwe mu bahinzi b'umuceri mu buryo bwa kinyamwuga arimo aratera umuti umuceri wamaze gusambura bigaragara ko ubura ibyumweru bikeya kugira ngo were, awutera umuti kugira ngo udafatwa n'udukoko dutandukanye tukaba twawica.

ku kabati ahamanitse imiti itandukanye y'amatungo, hari iri mu tudobo, hari iri mu ducupa, hari n'iri mu dusashe igaragara ko ari iy'amatungo atandukanye harimo inka, ihene, intama, inkoko n'andi atandukanye.

Bamwe mu bahinga umuceri ku buso bunini, bavuga ko kuwutera umuti ugeze mu gihe cyo gusambura, biwufasha gutuma wera neza ndetse ukazana n'intite nyinshi ugatanga umusaruro ufatika.

Bamwe mu bahinga amafi mu nzuzi zitandukanye bavuga ko iyo amafi yuhiwe neza akagaburirwa intungamubiri zitandukanye abasha gutanga umusaruro munini ku buryo buri cyumweru ubasha gusarura menshi kandi avamo n'amafaranga menshi.

Iyo guhinga amafi bikozwe bya kinyamwuga, akabasha kwitabwaho ahantu hamwe, abasha gutanga umusaruro mu buso butoya ndetse ukabasha gusangurira n'amasoko, ukabona amafaranga ubasha gukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Bamwe mu barobyi b'amafi yo mu duce dutandukanye barishimira urwego uyu mwuga umaze kubagezaho kuko ku munsi ngo babasha gukorera amafaranga menshi abafasha mu kwiteza imbere mu bikorwa byabo bitandukanye.

Bamwe mu bahinga hafi y'ikizenga kinini cy'amazi baribaza uburyo ki bashobora kukibyaza umusaruro kikaba cyabafasha mu buhinzi bwabo bwa buri munsi burimo ubw'ibisheke, imyumbati, amateke n'ibindi bitandukanye.

Bumwe mu buhinzi bwa kawa zihinzwe mu buryo bugezweho zihinzwe ku murongo, zibasha gutanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, bigatuma igihugu gishishikariza abaturage bacyo, kwitabira ubu buryo bwa kijyambere bugezweho.

Umubyeyi wambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'ubururu, idoze mu gitenge ndetse n'agapfukamunwa, ari mu murima w'ikawa aho ari gusoromamo izihiye izitarashya akaba aziretse.

Ibikarito by'ubwoko butandukanye biteretse ku meeza atandukanye harimo: inka, intama, ihene, inkwavu, imbwa n'izindi nyamaswa zitandukanye.

Nyuma y'izuba rirerire bamwe mu bahinzi bavuga ko kuba akavura kanguye bibongereye imbaraga zo guhinga imirima yabo ndetse bakitegura gutera imyaka izera mu gihe kiri imbere mu buryo bwo guhangana no kuba bafatwa n'ubukene bwa hato na hato.

Abahinga ibiti mu buryo bwa kijyambere, bavuga ko iyo bifumbiwe neza bikitabwaho bibasha gutanga umusaruro mu gihe kiri imbere, kandi bikazanirana n'amafaranga menshi ababihinze mu buryo bugezweho.

Umuceri bari kuwuhura mu gishanga, aho ugomba gutunganywa kugira ngo babone uko bawujyana ku isoko, na bo bahabwa amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'abafasha mu guteza imbere imiryango yabo.

Igiti cya avoka iyo cyatewe neza ndetse kigahabwa n'ifumbire ihagije, kibasha kugira umusaruro mwinshi ku buryo ubasha gusagurira amasoko, ndetse ugahaza n'umuryango wawe, dore ko habonekamo intungamubiri nyinshi zitandukanye.

Hari bumwe mu bwoko bw'ibirayi bivugwa ko iyo buhinzwe neza bushobora kwera imbuto nyinshi ndetse ukaba wanasagurira isoko, wanariye, ukabona n'ibyo uzatera ubukurikiyeho kubera ko wabonye umusaruro uhagije.

Bamwe mu bahinzi b'umuceri mu buryo bwa kijyambere bari kubagara umuceri ku nshuro ya mbere kugira ngo babone uko bashyiramo ifumbire iwufasha gufatana umeze neza ndetse bigatuma utanga n'umusaruro mwinshi ku isoko.

Bamwe mu bahinga indabo mu buryo bwa kinyamwuga, bavuga ko kuzihingira hamwe, bibasha gutuma zitanga umusaruro munini ndetse bidasabye ko, baba bafite ubuso bunini bw'ubutaka bwo kuzihingaho ndetse n'amafaranga binjiza akiyongera.

Umukecuru uri kubagarira inanasi, akenyeye agatambaro mu mutwe, afite isuka mu ntoki ari gukoza hafi y'inanasi, kugira ngo azibagarire zikure zimeze neza, kandi zibashe gutanga umusaruro.

Bamwe mu bakora umwuga w'ubuhinzi mu buryo bwa kijyambere, bagira inama abahinzi kujya bajya mu murima bambaye udupfukamunwa, ingofero kugira ngo birinde kuba bagerwaho n'indwara zitandukanye bahurira nazo mu murima.

Guhinga amatunda muburyo bwa kijyambere, yubakiye, ashingiriye neza, abasha gutanga umusaruro, ku rwego ruri hejuru kuko abasha gukomeza gukura ndetse akaba maremare, akaba yakwera, ku gice kinini cyayo.

Kuvomera imyaka ihinzwe hamwe ari myinshi mu buryo bwa kijyambere birafasha cyane kuko bituma umusaruro uboneka wiyongera umuntu akaba abasha gusarura ibintu byinshi nyamara ku buso butoya bw'ubutaka.

Inzu zituye ahantu hegeranye hitaruye ubonaka ari mu mpinga y'imisozi hari ibihingwa bihateye bisa nk'ibigori ndetse hari imisozi yirengeye ihinze ibindi bihingwa, bigaragare ko ari amazu yaturijwe ahantu hihariye kugira ngo ba nyirayo bajye bajya guhinga biboroheye.

Kimwe mu biyaga bigari cyane gikikijwe n'ishyamba ryiganjemo ibiti by'inturusu kiri ahantu hitegeye ku buryo abatuye ku musozi babasha kucyitegereza neza ndetse bakabona n'ibikorwa byose bihabera.

Ihene za kijyambere zororewe hamwe zibasha gutanga umusaruro munini, kandi n'izo zibyaye zigakura vuba zikabasha kugurishwa, ukaba wabona uko wongeramo izindi bidasabye igihe kirekire.

Inka zororewe mu rwuri rugari, zikunze gutanga umusaruro ugereranije n'izororerwa mu biraro kubera ko ziba zariye ubwatsi bugizwe n'ibyatsi bitandukanye, bizifasha gutuma zitanga umusaruro ugaragara.

Inka nyinshi zitandukanye zirimo ibimasa ndetse n'imbyeyi, ziteranyirijwe mu rwuri kugira ngo zihabwe amazi ndetse zihabwe n'ubwatsi bwo kuzitunga mu masaha y'umugoroba.

Bimwe mu bwoko bw'ibiryo bigaburirwa amatungo arimo inkoko iyo bibitswe neza bibasha kugirira akamaro kanini amatungo ndetse bikaba birimo n'intungamubiri zikenewe kugira ngo inkoko zigubwe neza.

Zimwe mu bwoko bw'imbabura zizwiho gukoresha amakara make, zikoreshwa kugira ngo habugwabungwe ibidukikije, hirindwa gukomeza gutema amashyamba menshi ndetse no ku buso bunini bw'ubutaka.

Ubwubatsi bw'inzu z'amatungo atandukanye arimo inkwavu. Hubakwa hakoreshejwe imbaho, utuyunguruzo dufasha gutuma imyanda zataye imanuka hasi. Ikazirinda kurwara indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Umuganga upima ibizamini by'amaraso byafashwe ku bantu batandukanye, ari kuyapima yambaye ibirinda intoki kuba amaraso yamujya ku mubiri ndetse yambaye n'ikanzu yagenewe abaganga, imufasha kwirinda ingaruka ashobora guhura nazo.